Aba baba abantu barinda, babita abadaso cyangwa se abantu barinda, bakora umutekano, umutekano wa ni joro, kurinda ibintu by'abantu, kurinda ahantu mu masoko n'ibindi bitandukanye.

Ahangaha ho ni mu nama ijanye n'abantu b'abayobozi bari kwiga ibibazo by'abaturage, ukuntu bahita babikemura cangwa se ukuntu bavanaho ibyo bibazo bikahava cangwa se ukuntu bariteza imbere muri rubanda no muri sosiyete.

Ipombo cyangwa se ba kizimyamoto ni abantu bafasha mu gihe ahantu habaye inkongi y'umuriro, bityo bakabasha kuhazimya byoroshye bakoresheje ibintu bijyanye n'amazi.

Iyi ngiyi ibaga ari imodoka itwararaga ibintu bijanye n'imizigo, ibintu bijanye n'abantu, ikabavana ahantu hamwe ukabajana ahandi bitewe n'ahantu ushaka kugera, ukabishura amafaranga, bakabasha kugufasha ukamererwa neza cyane.

Aha ng'aha nyine ni ahantu ku mupaka nyine Leta iba iri kureba niba nyine abantu batambukije ibintu bidakwiye cangwa se batambukije ibintu bitemewe mu gihugu nk'ibimogi cangwa se ibiyobyabwenge cangwa se ibintu bitasoza.

Tagisi cyangwa se imodoka bita twegerane, imodoka itwara ibintu n'abantu harimo imifuka ,harimo udutebe se n'abantu benshi kandi ku giciro irahendura ,ica amafaranga makeya.

Umumotari ni umuntu utwara ibintu n'abantu ariko akajya arakoresha ikinyamitende cy'amapine abiri gikoresha moteri, nk' uko rero abantu benshi babivuga bavugako ubumotari bugira amafaranga, doreko umumotari ashobora kwinjiza ari hagati y'ibihumbi cumi na bitanu.

Uyunguyu bamwitaga umupolisi nyine ari kuja aragira bano bana inama kugira ngo babashe kwitwara neza mu bikorwa yari ari kubabwira n'ibyo yari ari kubereka, Yabaga umufandi cane kuko uri kubona ko afite amanyenyeri n'intuza n'akagofero kanditseho iby'abapolisi, yabaga umupolisi.

Mu nama ni ahantu hajya harahurirwa n’abantu benshi batandukanye, bashaka kugira ngo barebe uko bakwiteza imbere， cyangwa se bagakemura ibibazo bafitanye bo ubwabo， bakaba aribo babyikemurira， cyangwa se bagashaka ubundi buryo bubateza imbere.

Kamera ni kimwe mu gikoresho gikoreshwa cyo gutangira gucunga ibintu bijyanye n'umutekano, bagishyira ahantu hahurirwa n'abantu benshi nko muri gare, mu maresitora, ahantu hacururizwa amatelefoni n'ibindi.

Ahangaha ho bashira muri feruje, nyine iyo ushaka, iyo ubonye handitsemo ririya bara ry'umutuku biba bivuze ko nta muntu wemerewe gutambuka, ariko iyo ubonye handitsemo ibara ry'icatsi, umuntu aba yemerewe gutambuka agahita agenda nta kibazo.

Iyo yitwa kajugujugu, ni indege itwara abantu, nk'abasirikare cyangwa se abapolisi, ikabavana ahantu hamwe ikabajyana ahandi, cyangwa se bakayihereza ibintu, ikabifata ikabivana ahantu hamwe cyangwa se ikabizana. Ibiba ahantu ikabizana aho ngaho mu..

Abapolisi ni abantu bajya barinda umutekano w'igihugu, bakabasha kurinda abantu ndetse n'ibyabo, bakabafasha kudahungabana.

Ahaho ni abantu bahuguraga abantu ukuntu wazimya cangwa se ukuntu wakwifata mu gihe iwawe habaye inkongi cyangwa se bifashwe n'inkongi y'umuriro ukuntu wahita wideburiya ugahita ubizimya.

Abangaba bo babitaga abapolisi cangwa se abakomando, babaga bari ku kosi kubera ukuntu babaga bameze, uri kubona ko basa nk'aho bari kumanukira ku mugozi bari kuva mu ndege bari kumanuka hasi. Hano bakaba bari nko ku kosi bashaka kwitoza, bashaka kugira ubumenyi bwisumbuyeho.

Abangaba bo babitaga abapolisi babaga bari mu karasisi. Akarasisi bagakoraga nko mu gihe wenda bagiye nko kwambika abasirikare bagenzi babo amapeti, cangwa se mu gihe bagiye kwakira nk'umuyobozi.

Mu nama ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi batandukanye, bashaka kugira ngo bige ku kibazo cyabo bafitanye, cyangwa se bashaka kugira ngo baganire ku bibazo bafite barebe ukundi kuntu babikemura.

Iyi ngiyi ni inama yahujije ba mudugudu ndetse n'abayobozi bandi bagiye batandukanye, bo mu midugudu, hamwe n'abaturage bari bucire umuntu urubanza, bari kumufatira umwanzuro bisa nkaho yakoze ikosa.

Hano ngaha nyine ni ahantu mu gihu abantu bari baserukiye, bari kunywa bari ku meza baba bameze neza. Bari guhana abageni bari bari guhana inka bari kugabirana. Byari biri munange bari bameze neza cane kuko bari bari kunywa barya.

Mu nama ni ahantu hahuriwa n'abantu benshi, bakabasha kwiga ku bibazo bafite cyangwa se hari n'igihe usanga bari kwiga nk' ukuntu bo bakwiteza imbere cyangwa se nk'ikibazo bafitanye, ukuntu bagikemura.

Mu nama ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi batandukanye, bashaka kugira ngo babashe kwiga ku kibazo cyabo, cy'ukuntu bari bukemure ibibazo bafite cyangwa se bashake uburyo biteza imbere.

Ahangaha ho ni mu nama rusange. Kuko ubonako uyu muntu ari gutanga ubuhamya ku giti ce. Ari kuvuga ibyamubayeho cangwa se ari gutanga imbwirwaruhame aziha abantu muri iyi nama.

Mu nama ni ahantu hagaragarizwa ibintu bijyanye n'ibibazo， bityo abayobozi bakabafasha gufasha abaturage babo， cyangwa se n'abantu bakabasha kumenya uburyo bari busoruvinge ibibazo，cyangwa se bari bubashe kwiteza imbere ubwabo.

Itazi cyangwa se ivu ni kimwe mu ifumbire ikunze gukoreshwa mu gihe ibihingwa byabaye bibi cyangwa se bitari kugaragara neza bifashisha itazi kugira ngo bimererwe neza.

Abangaba ni abami bigeze kuyoboraho u Rwanda mu gihe cya cyera cyera cyane. Hashize nk'imyaka igera muri mirongo, ijana, ijana na makumyabiri ahongaho abangabo bayoboye u Rwanda.

Ugo ng'ugo gwo bagwitaga umwuko nyine bagukoreshaga bari kwarura nk'ibintu, ariko ukeneye igikoresho ciza nyine kuko ntagwo giteraga kanseri kubera kibaga gikoze mu biti kandi ibindi byo biba bikoze mu byuma niyo mpamvu biteraga kanseri.

Ababoshyi b'ibigo ni abantu bakora umwuga wo gufata igihe cyabo bakicara bakaboha nk'ibirago. Hari ibirago banikaho, ibirago bicaraho ndetse n'ibirago abantu baryamaho.

Imigano ni igihingwa cyangwa se igikoresho gikoreshwa mu ibindi bikoresho byinshi bitandukanye, bashobora kugikoramo intebe, cyangwa se bakayifata bakayisakaza inzu.

Igisabo ni kimwe mu gikoresho bakoreshaga mu gihe cyashize mu gihe babaga bashaka kugira ngo bafate amavuta bayavane mu mata babashe kubona ayo kurya cyangwa se ayo kwisiga.

Ugungugu go bagwitaga umuduri na go gubaga mu bwoko bwo gukora umuziki. Abantu benshi baragukoreshaga, nk'umuhanzi w'icamamare tumenyereye nka hano mu Rwanda bamwitaga Gisupusupu ni go akoreshaga ari guhanga umuziki.

Abangaba bo ni abantu bakoraga umwuga wo kuja barabyina imbyino za gakondo, bari kugaragaza ukuntu mu Gwanda babaga bameze cangwa se bashaka kwerekana umuco w'Abanyagwanda ukuntu gwakogwaga.

Ururabo bakoresha cyane mu bintu bijyananye no kwivura , ibintu bijyanye n'imvune umuntu uri kumva ataba ameze neza barakamuvugutira yarangiza akagasiga ahantu ari ku mva yababaye cyangwa se ari kumva atameze neza bikamufasha koroherwa.

Mu nzu ndangamurage ahantu bafataga ibikoresho bakabihajyana haba hari ibikoresho bya mbere abantu ba mbere bakoreshaga harimo: nk'udukono, ingabo zo kwikingira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Igitiyo ni igikoresho cyifashishwa ahantu henshi hatandukanye, harimo gucukura ibyobo, mu gutiyura umucanga, cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, harimo...

Ikigega ni kimwe mu kazu babikagamo mbere y'uko amazu aza manini. Ni hamwe babikaga ibyo kurya, bakazajya barabyifashisha mu gihe kizaza inzara yarateye.

Iyi ngiyi yo ijya iraba ingororo y'umwami ni ko bayitaga, ariko abandi hari n'abavuga ngo iyi ngo iba inzu y'umwami, ariko mu magambo meza baravuga ngo ni ingoro y'umwami.

Utu ng'utu two twitwa uduseke, badukoreshaga bari gushaka kugira ngo bashiremo ibintu babijane ahantu hamwe babivane aha ahandi mbese ahantu bijanye na bijanye no mu birori, ibintu byinshi bitandukanye ni utu ng'utu babaga bari gukoresha.

Aka ngakako bajya bakita agacuma, nk' igihe ushaka kunywa akantu kawe cyangwa se inzoga ufata kano gacuma akaba arimwo uyishyira noneho ukayinyweramo. Haba harimo n'umuheha kugira ngo ubashe kunywa neza.

Umuvuba ni igikoresho cyakoreshwaga hambere mu gihe cy'ubucuzi. Igihe babaga bashaka nko kugira ngo bashongeshe ibintu by'ibyuma, bakoresha ikintu bita umuvuba kibafasha kwatsa umuriro vuba vuba bidasabye ingufu nyinshi.

umuboshyi ni umuntu uboha ibintu bitandukanye; ibiseke ibitebo, udupaniye abantu babasha kwitwazamo ibintu byabo, ariko akaba akunda kuboha n'utuntu tujyanye n'imitako.

Abafashoni ni abantu baba bafite inshingano zo kugira ngo bajye imbere y'abandi ,berekane imyenda igezweho cyangwa se imideri iri kwaduka ,bityo bikabafasha kugira ngo bakamamaza indi mu myenda.

Aba ng'aba ni abahanzi baririmba indirimbo zijyanye n'umuco bitewe n'ukuntu bambaye n'ibikoresho bakoresha. Bigaragara ko baririmba indirimbo z'umuco cyangwa se zo mu kinyagwanda, bagaragaza umuco w'abanyagwanda n'ukuntu bameze cyangwa se ibyo bakora.

Ahangaha nyine ni mu nzu ndangamurage yerekanaga ibikoresho bya kinyagwanda, umuco cyangwa se ukuntu abanyagwanda ba mbere babaga babayeho mu buzima bwabo, cyangwa se ibikoresho bakoreshaga mu muco gwabo ukuntu babikoreshaga n'uburyo byabaga.

Ibyibo cyangwase, ibiseke ni kimwe mu bikoresho, byakoreshwaga, hambere bigafasha abantu, kugira ngo babivaneho cyangwa se, babitwaremo, ibintu naho intara zo bazifashishaga, bari kugosora ibintu bijanye n'imyaka.

Ababyinnyi ba gakondo ni abantu babyina ariko bagamije kwerekana umuco, ukuntu abanyarwanda hambere babaga babayeho, ibintu bakoraga, ukuntu babaga bishimye.

Agaseke ni agakoresho bakoreshaga mu gihe cyashize bashaka kugira ngo bajye baratwaramo, batwaragamo ibintu bitandukanye, mu gihe bagiye nko mu kirori cyangwa se ahantu ho mu bukwe.

Aya ngaya yo ni amayugi. Bayakoresha mu mukino wo kubyina, cyangwa se hari aho bagiye kubyina ariko iza gakondo zijyanye, bari gupurezanta umuco n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aba ng'aba ni abakobwa babyinaga imbyino za gakondo, bari kugaragaza ukuntu abantu mbere babyinaga bishimye cangwa se ibikoresho bakoreshaga, kuko bari gukoresha ibintu by'ibisabo cangwa se bari kugaragaza ukuntu babaga bishimye n'ukuntu babaga bameze neza cane.

Runonko ni bumwe mu buryo bwa mbere abantu ba hambere bakoreshaga bari kotsa ibintu, nk'ibirayi, ibijumba ndetse n'ibindi nk'imyumbati bityo.

Ikico ni ikirago citwaga umusambi bagikoreshaga bari ku kiraraho cangwa se mu gihe urikumva ushaka nko kuba uburota akazuba, uba ukabura uragisohoye ukaba ukiryamye mu gihe udashaka gusohora ibintu byinshi cane.

Abami ni abantu babaga ari abayobozi hano mu Rwanda，bakuriye cyangwa se bashaka kugira ngo，abantu bage babitaho mu gihe runaka，nko mu gihe umuntu afite ibibazo cyangwa se...

Iziko ni ahantu bajya baratekera ibintu by'ibiryo cyangwa se mu gihe bashaka kugira ngo bacanire nk'umusuru cyangwa se ibindi bintu, bajya barifashisha ikintu cyitwa amashyiga.

Ugungugu go gwitwaga umutiba. Nk'iyo ushaka gufata inzuki ukazishira muno kugira ngo uje urabona ubuki bikworoheye, ufataga guno mutiba ugakumanika hejuru, wamara kugumanika hejuru, inzuki zikaja ziraza zigahita zinjiramo, zamara kwinjiramo ubundi ukaja urabona ubuki bwawe bimeze neza.

Kariya ko ni agacuma bakoreshaga bari kwenga ariko babaga baragaciye igihande kimwe kugira ngo baje barashobora kumera nk'aho mbese bari kuvoma nk'umutobe guhite gujamo guri kwihuta ni yo mpamvu babaga baragakase hariya bakakagira kuriya kugira ngo kaje karadaha umutobe kihuse.

Abangaba ni abantu bacuruzaga inkono nyine, inkono nyine ni igikoresho cyakoreshwaga mbere y'uko amasafuriya azaza, gikozwe mubyondo cyangwa se itaka gitwa ibumba nijyo batebatekaga mo mbere ba sogokuru bacu.

Iri ngiri nyine bajya baryita ihembe mbere ryabaga rimeze nk'ikondera. Ni ryo bakoreshaga nyine bari kwakura cyangwa se bari gutabaza, kugira ngo nk'abandi basirikare baze cyangwa se mu gihe ikibazo kibaye ibwami ni iki kintu bakoreshaga.

Mu nzu ndangamurage ni ahantu habikwa ibikoresho cyangwa se ibintu bakoreshaga mu gihe cyashize. Harimo nk'amacumu, ibintu banyweragamo, ibirago, baryamagaho ndetse n'ibindi nk'ibisabo.

Intore ni abantu babyina imbyino z'umuco bashaka kwerekana ukuntu abantu ba mbere babagaho cyangwa se babaga bishimye.

Inka z'Inyambo rero ni inka zifashishwaga ,zabaga ziri ibwami amata yayo bitewe n'ukuntu aryoha, cyangwa se aba ameze neza ,umwami babaga barazimushyiriye hariya ,mu gihe akeneye amata, ni zo bamukamiraga bakamuhereza akanywa.

Uyu nguyu nyine uri kubona ko afite ikintu bajaga barita umwambi n'umuheto nyine iki ni igikoresho bakoreshaga mbere bagiye guhiga inyamaswa cyangwa se bashaka nko kurasa umuntu ku rugamba cyangwa se ku bwirinzi.

Iki ngiki cyo bacyita igisika. Bagikoresha mu mazu bashaka kugira ngo ibiti byo hejuru babipfuke. Gikora nka parafo mbese.

Ababaji ni abantu bakora ibikoresho byo mu biti, bakaba bashobora kubaza ibintu bitandukanye harimo imyuko, hakazamo inkongoro, hakazamo ndetse n'ibintu byitwa urwungo cyangwa se amasahani.

Ababyinyi bajaga barabyina imbyino za gakondo mu bukwe mu birori, cangwa se bashaka ngo gupurezanda umuco gw'abanyarwanda ukuntu mbere babaga bishimye ukuntu babaga bameze.

Aka ngaka ko kaba agaseke, bakajyanamo ibintu bagiye ahantu mu bukwe, cyangwa se batuye, mu bintu byinshi bigiye bitandukanye nko mu birori, cyangwa se mu bukwe, ni ho bakifashisha kugira ngo babashe gutwaramo ibintu byabo neza.

Kuboha ni umuco w'abantu ba kera. Bifashishaga bakoresha cyangwa se baboha ibintu bijyanye n'ibiseke, ibirago, ndetse n'ibindi bikoresho bakundaga gukoresha mu gihe cyabo.

Urusyo ni rimwe mu mabuye abantu bakoreshaga hambere. Nuko haza ibintu bijanye n'inganda bakaba bararwifashishaga babeta ibintu nk'amasaka, uburo,... Ariko rukaba rwarabaga rufite utubuye turi inyuma bitaga ingasire.

Ugugo bajaga baragwita umuvure ni go bakoreshaga nyine bari kugira ngo bavuruganye ibitoki, babikuremo umutobe, cangwa se mu gihe bashaka nko kuregerezamo amazi, cangwa se bashaka gufata amazi bakagabikamo nigo bakoreshaga.

Utungutu two ni udukoresho dukoreshwa nk'imitako zo mu nzu, ariko bijyanye n'ibintu bya gakondo, bya kera. Dukoreshwaga n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, mbese babaga bashaka kugaragaza umuco gw'abanyagwanda.

Abami n'abasirikare bamurindaga, umwami n' umuntu wabaga akuriye agace runaka, akajya arabasha kugakontora mu gihe aba basirikare bo ari abantu barindaga umwami kugira ngo...

Aha ngaha ho nyine ni igihe cya kera babaga bari guca ibintu by'imanza. Babyitaga gacaca. Mu gihe nk'umuntu yakoze amahano nko muri jenoside cyangwa se ahandi hantu, ni aha ngaha babajyanaga muri gacaca ubundi bakabasha gucacura ibibazo byabo.

Ugungugu go ni umuzinga ga gw'inzuki gukundwaga gukoreshwa kugira ngo babashe gufata ubuki bw'inzuki bakazubakira inzu zazo z'inzuki kugira ngo zije zirabasha gutahamo noneho zisigemo ubuki abantu babashe kubufata.

Izi ngizi zo ziba impungure, ariko nyine zumye zimeze neza. N'iyo ushaka uhita utangira kuzibetesha ugatangira kuryamo umutsima cyangwa se ugatangira kunywamo igikoma bitewe na ya fu wabetesheje.

Ipense ni muri kimwe mu gikoresho gikunzwe gukoresha ahantu henshi hatandukanye, mu bukanishi bw'amashanyarazi, no mu bukanishi bw'amamodoka, cyangwa se n'abantu babatekinisiye bakunda kugikoresha bafata insinga, cyangwa se bashishura insinga.

Canal antenne ni igikoresho gikoreshwa; gifasha televiziyo gukurura connegition kikazihuza n'indi minara. Amakuru akamugeraho byihuse bidasabye proses nyinshi.

Iyi yo bajaga barayita taransifo ikoreshwaga mu bintu bijanye n'amashanyarazi, ikaja iragabanya umuriro cangwa se ikaja irawongera. Mu gihe gubaye muce ikagongera, mu gihe gubaye mwinshi igahita igugabanya.

Akangaka nyine ni agakoresho gakoreshwa mu bintu bijyananye n'imiriro, bakita fizibure, nkiyo ushaka gukupa umuriro wabaye inkongi cyangwa se ushaka kugabanya ukoresha aka gakoresho kitwa fizibure.

Abatekinisiye ni abantu bafata amashanyarazi mu gihe yagize ikibazo bakayakora, bakareba ikibazo afite bityo bakabasha kuyatunganya, mu gihe habayeho nk'inkongi y'umuriro cyangwa se umuriro utari kuboneka neza, ni bo babasha kubitunganya.

Ikiraro cy'imigozi akenshi na kenshi bagishyira ahantu harehare hari umugezi muremure batabasha gufata ibiti ngo abe ari byo bakoresha.

Urunguru rwo rubaga urusengero rw'Abagatorika, ni yo mpamvu muri kubona Yesu inyuma ari ho bamushize. Abangaba ni Abagaturika kuko nta mudive ukundaga gushira Yesu hanze cangwa se gukora, kubaza abantu bameze nka Yesu.

Urusengero ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi batandukanye, baba bavuye mu nce z'igihe zitandukanye baje kwifatanya n'abandi bantu kwegerana n'imana cyangwa se kugira ngo babashe gutangira gusenga.

Ikingiki cyo kiba ibikorwa remezo cya Leta, aha urabona ko ari muri kaminuza, muri kaminuza higira abandi banyeshuri, kuko nukuntu hateye harimo utuyira twinshi cyane, ahangaha ni muri kaminuza hasa no muri UAR.

Ubungubu bo buba mu mudugudu rusange, nyine mu gihe umuntu afite ubushobozi bukenya bwo kwiyubakira inzu cyangwa se iyo ahuye n'ibyago inkwangu ikamugwira cyangwa se agahura n'ibindi byago bitandukanye, Leta ihita imujana nko muri ugo mudugudu yubatse.

izi ngizi nyine ni inzu za Leta, nyine babasha gukorera mo ibikorwa byabo. Bakoruganiza ibikorwa byabo bakanabasha kubikora neza, bakora serivisi z'abaturage neza cyane kugira ngo ibintu babikore munange, muzuri sana.

Urusengero rw'aba adeperi, ni urusengero akenshi na kenshi ruba runini, rushobora kujyamo abantu barenze magana abiri n'igihumbi, ku rusengero rwa adeperi cyane cyane.....

Aha ngaha ho bahigishiriza abana nyine batangiye kumenya ubwenge, hagati y'imyaka icumi cyangwa se n'itatu, kuzamura kuva kuri itatu kugeza ku icumi, kugamba neza, gusoma inyajwi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo babazamurire ubwenge bwabo bushobore gutekereza neza.

Agangaga go ni amashuri abantu b'abana bavagamo bagiye kwiga, cangwa se bagiye ahandi hantu bashaka kugira ngo babafungure mu mutwe, babashe gusoma no kwandika.

Kaburimbo ni umuhanda urasa ,usa n'umukara. Akaba ari umuhanda munini, ubahuza imijyi. Nk'umuhanda uva Ruhengeri'(Musanze). Cyangwa se umuhanda uva Kigali, Gisenyi n'umuhanda ukunzwe gukoreshwa cyane.

Kubona uguhanda gwa kaburimbo. Gunyugwagamo n'imodoka, n'amagare, n'amamoto ariko rimwe na rimwe n'abantu basaga nkaho bari kunyura ku ruhande gwago. Ako kubera nyine nagayira gabagenzi gahari.

Umunyonzi ni umuntu ujya uratwara abantu, akajya abavana ahantu hamwe, akabajyana ahandi hantu. Cyangwa se agafata ibintu akabivana ahantu hamwe, akabitwara ahandi hantu.

Ugungugu go gwitwaga umusigiti gw'abayisilamu nyine abayisilamu murabizi basengaga ku wa Gatandatu no ku wa Gatanu, bitewe n'ukuntu gumeze guriho ikimenyetso c'ukwezi cangwa se hariya hejuru hariho mikoro irangurura bikavuga cane, ni umusigiti.

Iki ngiki nyine bajya baracyita ikiraro gihuza ahantu hamwe nyine hari igikushumu nyine cyangwa ikintu kinyuramo amazi, umugenda munini cyane. Iki kiraro ahantu kiri ni nko muri Nyungwe, muri Nyungwe harimo nk'iki kiraro cy'imigozi...

Ahangaha ho habaga ku kagari bahasabigaraga serivisi nyinshi zigiye zitandukanye: harimo iz'ubutaka, n'izindi zijanye na mituweli, iz'amarangamuntu nyinshi cane harimo n'izindi z'abantu bashwanye cyangwa se bagiranye ibibazo ahongaho ku kagari bahitaga babafata bagahita babuhunga.

Mu rusengero ni ahantu hahurirwa n'abantu benshi baje kugira ngo bihane ibyaha baba barakoze cyangwa se babashe kwegerana n'Imana babasha no kugira ngo bongere umubano hagati yabo.

Uru nguru nyine rwo ni urusengero abantu bajya gusengeramo, haba ku cyumweru cyangwa se ku wa gatandatu. Ariko uko bigaragara neza cyane, uru ni urusengero rw'Abadive, noneho bo bajya gusenga ari ku wa gatandatu. Ku munsi wa gatandatu.

Iyi ngiyi nyine ni isoko ryubakiwe abantu b'abaturage, kugirango ngo baje barabasha gucururizamo neza cane, bidasabye kugira ngo imvura ibanyagire, cyangwa hagire ibicuruzwa byabo byangirika cyangwa zibe bihasesekarire. Niyo mpamvu abo babaga barabubakiye amosoko.

Ahangahaho ni mu mudugudu gw'abantu batishoboye, igihe leta abaturage bahuye n'ibibazo cyangwa se badafite ubushobozi bwo kwiyubakira inzu zabo, irabafata ikabajana ahantu hamwe mu mudugudu yubatse.

Mu rukiko ni ahantu babasha gukiranura cyangwa se guhosha amakimbirane, bagafasha uwarenganijwe, bakarenganura uwarenganijejwe.

Mu rusengero ni ahantu abantu bajya bagiye kwegerana n'Imana, ariko bakaba bahajya mu minsi itandukanye, urugero nk'abagatorika akenshi na kenshi bajya gusenga ku cyumweru ni wo munsi uzwi, ariko abayisilamu bo basenga ku wa gatanu na ho abadive ni kuwa gatandatu.

Aho ng'aho bahitaga kuri aritari nyine niho abantu babaga bahagaze nk'abapadiri cangwa se abandi bantu, harimo abayobozi cangwa se umuntu ushaka kuvuga ijambo niho ahagararaga kugira ngo abantu bose babe bari kumureba cangwa se banamwumve.

Izingizi zo ni intebe z'amadiva, abantu bazikoreshaga bashaka kugira ngo baje baricara ntibababare ku kibuno cangwa se biborohere kuba bicaye bumva batekanye, bumve bameze neza.

Uru ngurugu rubaga urusengero. Barukoreshaga bari gusenga ku cumeru cangwa se kuwa gatandatu, ariko bakaba bakundaga kurusengeramo nyine igihe ushaka kuja kwegerana n' Imana cyangwa se igihe uri kumva ushaka kuwihana ibyaha byawe.

Iyi ngiyi nyine ni inzu yigishirizwagamo ukuntu nyine umubyeyi yabasha gutekera umwana we indyo yuzuye, cyangwa se ababyeyi babasha gufata neza abana babo, cyangwa se abantu bafite ubumuga bakabasha kubitaho neza kandi bikwiriye.

Aba ng'aba nyine ni abantu babaga barihaye Imana harimo nk'abamasera, abapadiri ariko nyine kugira ngo wihe Imana uri mu bumaseri, bisaba kugira ngo ube utarakoze imibonano mpuzabitsina cyangwa se utarabyaye umwana n'umwe ni gucyo binameze no ku bapadiri.

Mu mudugudu, ahantu abantu babaga batishoboye babafataga bakagenda bakabatuza, abantu badafite ubushobozi bwo kwiyubakira inzu zabo, bagahita babashikira, bakabajana aho ngaho muri ugo mudugudu leta iba yarabubakiye.

Inama ni ahantu abantu bajaga barahurira ,bakiga ku bibazo bafite muri bo bashaka uburyo bahita babikosora, cyangwa se bashaka uburyo baraja biteza imbere bo ubwabo.

Mu nama ni ahantu hateranira abantu benshi batandukanye ariko bahuje ikintu bagiye kuganiraho, bashaka kugira ngo bige ikibazo cyangwa se babashe kugira ngo barebe ukuntu bakwiteza imbere ubwabo, badasabye abandi bantu.

Aha ng'aha ho ni mu nama ijanye n'abantu ba bari gushaka ukuntu bashakira abaturage bakiteza imbere, nabo ubwabo b'abayobozi bakiteza imbere, bikagera no muri sosiyete bakiteza imbere.

Ahangaha ho nyine ni mu nama y'abayobozi nyine bahuriye mo, bari gucacura ibibazo by'abaturage, bari kuvuga ibibazo bafite, bari kunonosora cyangwa se bari gukiranura abaturage ibibazo bafitanye, cyangwa se amakimbirane bafitanye. Ni yo mpamvu bahahuriye.

Mu nama ni ahantu hakorerwa ibintu byinshi bitandukanye, harimo kugaragaza ibibazo by'abaturage cyangwa se kurenganura nk'umuturage warenganyijwe, cyangwa se no kugira ngo babashe kwishakamo ibintu bijyanye n'ibisubizo.

Aha ho ni mu nama, abantu bari gukora kugira ngo, baganire ku bibazo byabo bafitanye, bavuga ukuntu babikora kugira ngo, babive muri ibyo bibazo, Ubundi baje barashaka bashaka umuti gw'ibyo bibazo kugirango ngo babashe kubiva mo neza.

Muri kaburimbo ni umuhanda ufasha abantu gukora urugendo bakajya bava ahantu hamwe bakajya ahandi, ariko mu rugendo rwa kure kaburimbo ikoreshwa n'abantu cyangwa n'imodoka.

Tagisi Vuwatire rero ni imwe mu modoka abantu bajya bita ngo ni pirive cyangwa se imodoka igendwamo n'abantu bakeya bitewe n'ukuntu zihenda, ariko na zo zikaba zihutisha urugendo mu gihe gitoya.

Iri ryo bajya baryita igare ry'abanyonzi. Nta bwo ritwara umuntu umwe, ahubwo umuntu uba uri kuritwara, aba ashaka amafaranga, kuko ajya atwara abagenzi. Mbese na yo ni mu buryo bwa transiporo ivana abantu ahantu hamwe ikabajyana ahandi.

Aha ngaha aho ni muri gare kuko uri kubona nyine hari abantu benshi cyane batandukanye abamotari, abantu bari gucuruza amamodoka, ewewe n'inyuma uri kuhabona ko hari inuza ko hari insengero.

Umumotari ni umuntu ukora umurimo wo kuvana abantu ahantu hamwe akabajyana ahandi ,cyangwa se ibintu akabivana ahantu hamwe akabijyana ahandi akabasha kubona amafaranga.

Ahangahaho ni muri gare nyine ahantu imodoka ziparirikaga, iyo zizanye abagenzi kugira ngo zibone ahantu ziparirika nyine zibaga zitonze umurongoko, abagenzi bakaza bakinjiramo, bidateje akavuyo nyine mu muhanda.

Bisi ni imodoka zijya ziratwara abantu, zikabavana ahantu hamwe zikabajyana ahandi, ariko zikajya zirakunda guhendura dore ko zica amafaranga make cyane, ugereranyije n'aho ziba zakuye umuntu.

Bisi ni imodoka zifashishwa mu rugendo, zivana abantu hamwe zikabajyana ahandi cyangwa se zigafata ibicuruzwa zikabivana mu gace kamwe zikabijyana mu kandi gace dore ko zihendutse zitameze nk'izindi modoka.

Uyu uba umuhanda unyurwamo n'imodoka n'abantu, bashaka kuba ahantu bamwe bajya ahandi, umuhanda uko bigaragara kose, ariko uba uwi musanze, bitewe n'ukuntu ndikubibona hano hasa n'uwimusanze.

Kwasiteri ni imodoka itwara abantu ikajya ibavana ahantu hamwe ikabajyana ahandi, itwara abantu ndetse n'ibintu byabo. Kwasiteri rero nayo iri mu modoka zica amafaranga makeya hano mu gihugu.

Iyiyo ni imodoka nyine ijaga iratwara ibintu by'amazitu ,risanse ikabivana hamwe mu kindi gihugu ikabibijana mu kindi, iyi modoka nyine itwaraga hagati ya litiro magana cenda cangwa se igihumbi nico itwaraga iturimwe.

Umuntu ukora mu ndege ni umuntu uba ushinzwe ibintu mu byaha serivisi. Kuzana ibintu bijyanye n'ibyo kurya cyangwa se kukwereka ahantu uri bwicare. Mu gihe ufite ikibazo ukamuhamagara akagufasha cyangwa se no mu gihe uri kumva hari ibindi bintu ushaka.

Aha ho ni mu ndege nyine abantu uri kubona ko bicaye, hano mu ndege. Ni ku kibuga cy'indege. Nta bwo bari batangira guhaguruka . Kugira ngo bagende bameze neza ni uko babanjije babazanira icyo bashyira mu nda cyangwa se barya.

Abangaba bo bitwaga abanyonzi bavanaga ahantu abantu bamwe bakabajana ahandi hantu. Iyo bashaka gukora urugendo cyangwa se uri kumva ushaka kuva ahantu hamwe ukaja ahandi, ukoreshaga abanyonzi ukoreshaje amafaranga makenya.

Abamotari ni abantu bakora umwuga wo gujya baratwara abantu, bakabavana mu nce zimwe bakabajyana mu zindi nce. Wenda nk'umuntu ushaka ushaka kuva muri Musanze akaza hano no mu Byangabo.

Uyu nguyu wo ni umuhanda ukoreshwa n'abantu benshi batandukanye. Harimo amagare, amamodoka ndetse n'abantu, baba bafite akayira kabo ku ruhande, ariko gakoreshwamo n'amamoto.

Ahangaha ho habaga ku kibuga c'indege, nk'iyo umuntu ashaka gufata urugendo gwa kure cane ,agiye nko mu burayi ,niho yifashishaga kugira agere nko mu amahanga vuba vuba byihuse ,nyine kubera imodoka itapfa kumugezayo, ayifashishaga indege.

Hano nyine ni ahantu habaga muri gare, nyine ahantu imodoka zihuriraga zigaparika n'abagenzi bagahahurira kugira ngo babashe kubona imodoka byihuse. Niho nyine imodoka ziparikaga n'abagenzi bagahita baza, ni naho bajaga bagakatishiriza amatike garabajana mu ntara cangwa se garabazana muri Kigali.

Ahangaha ho hitwaga muri gare. Hahurirwaga n'imodoka nyinshi, cangwa se n'abantu bakaza baje kuhashakira ibintu bijyanye n'imodoka kugira ngo batege, bave ahantu hamwe baje ahandi.

Bisi ni imodoka zijyamo abantu benshi bari hagati ya mirongo ine na mirongo itanu, zikajya zirabavana mu gace kamwe cyangwa se zikabajyana n'ahandi, zikaba zishobora no kwikorera ibintu byinshi bitandukanye.

Izi ngizi nyine zibaga ari bisi zitwaraga abantu ariko ngaha hano ngaha zaje guparika, bahitaga muri gare ahantu imodoka zijaga zirahurira kugira ngo abagenzi bahite bazihasanga deregite batiriwe baraja gutegatega mu mihanda.

Bisi ni imwe mu modoka zitwara abantu benshi kandi zikajya zihendura bitewe rero n'ukuntu zikora ingendo z'ahantu hagiye hatandukanye abenshi muri iki gihe ni zo basigaye bifashisha. Amafaranga makeya ni yo batanga mu rugendo bakora ugereranyije n'izindi modoka.

Iyi modoka yo bajya barayita idayihatso, itwara, ibintu bigiye bitandukanye by'ibicuruzwa, ikabivana ahantu hamwe igahita ibijyana ahandi nk'ibirayi, ibigori, ni byinshi cyane.

Bisi ni imodoka ijya ifata abantu, ikabavana ahantu hamwe, ikabajyana n'ahandi, bityo ikihutisha urugendo rwa bo kandi ikajya ibasevingira n'igihe, dore ko izi bisi zitajya zifuza n'amafaranga menshi.

Bisi ni imodoka itwara abantu n'ibintu, ikabavana mu duce twa kure ikabajyana mu tundi, bisi rero ibasha kuba yavana nk'umuntu i Gisenyi ikamujyana i Kigali, ku giciro gito kandi gihendutse neza cyane.

Aba ngaba babita abamotari. Bakora umurimo wo kujya baratwara abantu, bakabavana ahantu hamwe bakabajyana ahandi nko mu yindi ntara, cyangwa se mu kandi gace, cyangwa se bakajyana ibintu ahandi hantu.

Muri gare ni ahantu hajya hahurirwa n'abantu benshi cyangwa se hahurirwa n'amamodoka yo kugira ngo atware abantu ,akabavana ahantu hamwe abajyane ahandi ,bityo ni ahantu haba harashyiriweho kugira ngo hahurirwe n'abantu.

Aba ng'aba ni abakinnyi bakinaga umukino wa baskete, nyine kubera ko umukino wa baskete bawukinaga bambaye amakabutura magufiya ndetse n'amasengeri, niyo mpamvu aba bantu bakinaga baskete.

Abakurusi ni abantu bakora umukino wo gusiganwa ku magare, baba bashyizeho ahantu, uhagaze mbere, cyangwa se uwakandagiye mbere ubwo ngubwo akaba aratsinze.

Aba bo babitaga abakaraza bacurangaga ibintu bijyanye n'ingoma cyangwa se ibintu bijyanye no kubyina imbyino za gakondo, cyangwa se gucuranga indirimbo zijyanye na gakondo bari kugaragaza umuco wa kinyagwanda, indirimbo z'umuco w'abanyagwanda.

Imodoka bakinisha amarushanwa, ni imodoka iba igiye kumera nk'ivatiri, ariko atari akavatiri neza, ariko ikaba igira amapine akomeye cyane, anariyo ayifasha kuguma ku butaka kugira ngo itagwa, cyangwa se igire ikindi kibazo mu gihe bari kwirukanka.

Umugaridiye, ni umuntu wifashishwa agashyirwa mu izamu, kugira ngo nibajya gutsinda ibintu by'ibitego, ajye abasha kubivanamo cyangwa se abisubize inyuma, batajya bahita babinjiriza ibitego mu izamu ryabo.

Abantu bakina umukino wo kujugunya amacumu, ni abantu baba bagomba kuba bafite imbaraga, badafite ubumuga bujyanye n'amaguru cyangwa se amaboko, dore ko ariyo abafasha gukora ibi bintu, kugira ngo babashe kujugunya kure cyangwa se ahantu.

Aba ng'aba bo bajaga barabita abantu nyine bakoraga umwitozo, cangwa se ibintu bijanye n'umukino go koga bakarushanwa. Umuntu ugeragayo mbere ku muvuduko mwinshi cane batangiraga baramuhembaga.

Umukino wa tenisi ni umukino ukinwa n'abantu bagiye batandukanye, harimo abantu bakuze cyangwa se abakiri batoya abagabo cyangwa se abagore bakaba bawukina bifashishije.

Aba ngaba ni abakobwa bakinaga umukino gujanye na volebolo bagukinisha amaboko gusa. Nka gutya nk'iyo bashaka kugira ngo bakine umukino gwabo neza, umwe bajaga mu ruhande rwo hepfo abandi bakaja mu ruhande rwo ruguru.

Uyu mukino nyine bawita tenisi. Uyu mukobwa ari gukina. Bawukinisha akabora kameze nk'agasiketi. Ubundi umuntu akajya akubita agapira, akakaganisha mu gice cyo hepfo n'undi akagakubita akaganisha mu gice cya ruguru. Umuntu binaniye kubikora bagahita bamuvanamo akaba aratsinzwe.

Ikibuga cya basikete ni ikibuga kiba cyubatse mu bice bibiri bitandukanye, abantu bajya bakinira mu gice kimwe abandi bakinira mu gice cya ruguru, abantu nk'iyo bafashe umupira cyangwa se bakawujugunya mu gapaniye, ko ku rundi ruhande ubwo igitego kiba kinjiye.

Umukino wa vole ni umukino ngo uba uryoshe ku wureba amaso ku maso dore ko bituma uruhuka mu mutwe cyangwa se bikanagufasha gukora siporo, iyo ukunda gukina uno mukino.

Umukino wa tenisi ni umukino ukinwa n'abantu bagiye batandukanye harimo abamama, abagore, abasaza ndetse n'abantu badakuze cyane nk'abasore ndetse n'inkumi.

Aba ngaba bo babitaga abakurusi nyine, bakinaga umukino wo kurushanwa ku magare kwirukanka nyine n'umuntu ubaye uwa mbere bakabasha kumuhemba akagira amafaranga abona n'ibihembo bishimishije, harimo amafaranga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye harimo n'amazu n'ibindi...

Abakurusi ni abantu bajya barakora umukino wo gusiganwa ku magare, mbese umuntu usize undi baba baciye umurongo ,umuntu uharenze mbere ,ni we uba ugize intego yo guhita atsinda.

Aha ngaha haba abantu bajya bakinira basikete, nko mu gihe bashaka kwidagadura nk'urubyiko, ndetse n'abantu bagiye bakuze bahita bajya gukinira umukino witwa basikete, ku gukinana abantu bambaye neza bambaye inkweto zibafasha ndetse imyenda ya siporo.

Umukino wa tenisi ni umukino ugora cyane dore ko abakinnyi bawukina nabo bari mu bahembwa amafaranga agiye atubutse umuntu uwukina ajya ahembwa hagati y'amadolari magana abiri.

Umukino wa basiketi ni umukino ukinwa n'abagabo cyangwa se abahungu, bitewe n'ukuntu uyu mukino uri popireri ,cyangwa se winjiza amafaranga menshi mu bice bitandukanye ,cyane cyane mu bice by' Amerika, abantu benshi bawiyumvamo kandi bakanawukunda.

Umukino wo gusimbuka cyangwa se wo kwirukanka, ni umukino babanza bitoza, bakabanza bitoza igihaha cyabo bagakomeza amaguru, umubiri wabo ukaba uri fiti utabavuna, bumva mbese bamerewe neza.

Abakinnyi bakina umukino wa basikete ni abantu kenenshi na kenshi baba ari barebare. Nta bantu bakunda kugira amahirwe yo gukina uyu mukino ari bagufiya.

Aha ngaho habaga ahantu muri pisinine. Niba umuntu arikumva ashuhiranye, cyangwase arikumva ashaka kuruhuka mu mutwe. Niho yabaga agiye akaja kuruhura mu mutwe. Mugihe ari kumva atameze neza nihoga abagaganye akaja kuhogera.

Umukino wa basikete ni umukino ushimishije dore ko ujya uhemba abantu amafaranga ari hejuru nk'ubu muri amerika umukinnyi bavuga ko ahembwa amafaranga menshi ahembwa miliyoni y'idorari ya buri kwezi.

Muri sitade ni ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye, harimo ibintu bijyanye n'umupira w'amaguru, cyangwa se n'ibintu bya basikete, akaba ariho hantu rero abantu bahurira bagiye gufana nk'amakipe yabo.

Ugungugu go gwitwaga umukino gwa basiketi abantu bagukinaga babaga bameze neza, bambaye amakabutura, udupira duciye amaboko cangwa se amasengeri nibyo bibaga byiza kurushaho. Aba ni abakobwa bakinaga umukino gwa basiketi.

Aka ngaka ko kabaga akayira k'abagenzi kabaga impande ya kaburimbo, kugira ngo abantu ba bagenzi badahita bakubitana n'imodoka ,cyangwa se ugasanga bahuriranye n'izo modoka, kubera bari kubyiganira nko mu muhanda.

Aha ngaha ni mu kayira gahuza ingo n'izindi ahantu nko mu nsisiro ahantu henshi cyane, mu duce tugiye dutandukanye zihuza inzu n'indi, ariko nta bintu by'imodoka cyangwa se ibintu bijyanye n'amamodoka manini ajya anyuramo, ni utuyira tw'abantu gusa.